Ibi ni ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu kuvura abarwayi, byose birunze ku meza, bigiye bifite amabara atandukanye harimo umutuku, ubururu, umweru n'ayandi.

Aha ni kwa muganga hagaragara umugore wambaye itabuririya y'umweru n'agapfukamunwa, ari guhuzahuza ibikoresho biteretse ku meza, iburyo bwe hari ikindi gikoresho kiri mu ibara ry'umweru kirekire.

Ibumoso hari abantu benshi, amajerekani ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'indobo zirambitse. Iburyo hari imodoka ishushanyijeho umusaraba. Mu gihe inyuma hagaragara inzu.

Aba bantu benshi bateraniye mu cyumba kimwe, bambaye amajire ari mu ibara ry'umweru, ashushanyijeho umusaraba na wo uri mu ibara ry'umutuku.

Uyu muntu uri kugaragara cyane imbere yacu yambaye umupira w'umutuku. Uriho umusaraba uzengurutswe n'ibara ry'umweru. Ikigaragara ari guha amabwiriza aba bantu, bakorera umuryango utabara imbabare.

Abenshi bari hano ni abakozi b'umuryango utabara imbabare. Ugaragara cyane imbere hano, yambaye akajile k'umutuku, karimo amabara y'umweru n'umukara. Hakaba uruziga mu mugongo rushushanyijemo umusaraba mu ibara ry'umutuku.

Aha haragaragara hejuru akadege gatoya, kari kumanura amaraso, yifashishwa mu gutabara indembe, aka kadege kitwa dorone kandi gakoreshwa cyane mu Rwanda.

Hano, turi kuhabona igitanda cyo kwa muganga, kifashishwa n'indembe. Gikikijwe kandi n'ibindi bikoresho, bikoreshwa mu kuvura abarwayi.

Aba baturage bicaye ku murongo umwe. Harimo abagabo, abagore n'abana. Uri iburyo bwabo agiye kwinjira mu muryango kandi yambaye itaburiya iri mu ibara ry'ubururu.

Aba ni abaturage bari ku kigo nderabuzima bategereje guhabwa serivisi z'ubuzima kugira ngo bakomeze kubungabunga amagara yabo imbere yabo hari ameza ashasheho igitambaro cy'icyatsi.

Aba bagore babiri umwe n'umurwayi undi akaba umuganga, uyu wambaye itaburiya y'umweru ni umuganga, naho uwambaye ibitenge akaba umuturage usanzwe, bari mu ivuriro.

Iki cyapa kiri mu ibara ry'umweru. Cyanditsemo amagambo atandukanye yiganjemo ibara ry'umukara. Imbere yacyo hari ururabyo. Rufite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Aba baturage bari ku ivuriro ni benshi kandi bambaye imyambaro igiye itandukanye, ubariri imbere ni umugabo, yambaye umupira n'ipantaro y'umukara.

Aha haragaragara ko ari mu cyumba urukuta rusize amarangi y'umweru, hakaba inkweto ziri mu mabara y'umweru, hamanitse kandi imyenda nayo iri muri ayo mabara, kuri tapi n'itapi y'umutuku.

Hano haragaragara abantu bane, babiri muri bo bari ibumoso bambaye imyenda y'umweru hejuru abandi babiri bari iburyo umwe w'umurwayi araryamye mugihe umuganga amufasheho.

Aba bantu bari kwa muganga. Ni abagore bose, hejuru hamanitse inzitiramibu ariko zitarambuye ku bitanda, zifashishwa mu kwirinda indwara ya Malariya.

Aba ni abaganga bari gutunganya ibikoresho byabo bari bwifashisha mu kuvura abaturage, hari ameza ateretseho ibi bikoresho, inyuma hari utubati turimo ibyo bagomba gukoresha bavura abantu.

Aba bantu barimo abagore n'abagabo. Bahagaze ku buryo bigaragara ko bari kwifotoza. Hepfo yabo hari ubwatsi buri mu ibara ry'icyatsi kibisi ariko budatoshye.

Aba bantu bose bahagaze bareba mu ruhande rumwe, uri imbere yabo ni umugabo yambaye ishati, yambaye kandi agapfukamunwa ukuboko kwe kw'iburyo ahafite terefone.

Aba bantu babiri uri ibumoso n'umugore yambaye imyenda y'ibitenge, uri iburyo yambaye itapiriya y'umweru kandi ni umuganga, ku ntoki ze kandi hariho uturindantoki tw'umweru.

Izi ni inyubako z'ivuriro, haragaragara inyubako nyinshi zigiye zikurikiranye zisakaje amabati ari mu ibara ry'ubururu, iruhande rwazo hari abantu barimo baragenda.

Aba bantu ni benshi kandi bateraniye mu cyumba kimwe, abagaragara imbere ni babiri bicaye imbere y'ameza, umugabo yambaye ishati yera ndetse n'ikote, imbere ye hari mudasobwa.

Ikitanda cyo kwa muganga kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, inyuma yacyo mu kuboko kw'ibumoso hari intebe iri mu ibara ry'umukara, imbere yacyo hari izindi ebyiri n'ameza.

Aba batatu bose ni abaganga, bambaye udupfukamunwa.

Aba bari bari gukaraba intoki, mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu gusuhuzanya no gukoranaho. Kandagira ukarabe ziri mu mabara y'umweru.

Uyu muntu ari kureba mu gikoresho bifashisha mu buganga bwabo bw'abantu cyangwa ubw'amatungo, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru n'agapfukamunwa, yicaye no ku ntebe ikoze mu giti.

Aha ni muri laboratwari. Haragaragaramo ibikoresho byinshi. Ikigaragara cyane imbere mu ruhande rw'ibumoso kiri mu mabara yiganjemo ay'umweru ndetse n'andi mabara y'umukara.

Uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru, yambaye uturindantoki tw'umweru, afite urushinge ari gushyira umuti muri urwo rushinge yitegura gufasha abarwayi.

Aba bantu ni bane, babiri muri bo ni bakuru ni umugabo n'umugore, buri umwe ateruye mwana wambaye akagofero, kandi abana bombi bambaye udupira turi mu ibara ry'umutuku.

Aha haragaragara abantu benshi abari imbere babiri uwuri ibumoso ni umubyeyi ari guha umwana amata kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza umwana yambaye imyenda y'umuhondo.

Aha haragaragara icyapa kirimo uruziga rw'umweru rushushanyijemo umugore uryamye ku buriri n'umwana kandi bakikijwe n'inzitiramibu.

Uyu muntu, yambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi, afashe indangururamajwi mu kububo kw'iburyo. Ndetse inyuma ye hari abandi bantu benshi, barikumva ibyo avuga.

Aba bantu ni benshi kandi baje kwa muganga. Abagore bahari bose bateruye abana. Mu gihe ugaragara cyane ibumoso ari umugabo wambaye akajirire kari mu ibara ry'ubururu. Ni umuganga ari kwita ku mwana.

Aba ni abajyanama b'ubuzima, bambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu. Bafite ibitabo imbere yabo bandikamo ibyo bari bwifashishe bavura abarwayi ndetse n'ibyo babonye bamaze kuvura abarwayi.

Uyu ni umugore atoye umwana we ukiri mutoya cyane, yicaye ku gitanda cyicarwaho n'abarwayi kwa muganga. Iki gitanda kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ikanzu y'umugore nuko.

Aha haragaragara abana benshi batonze umurongo bajya koga intoki kuri kandagira ukarabe, uri kubavomera amazi ni umukobwa mukuru bigaragara ko ariwe ubayobora.

Hano haragaragaramo umugore urimo konsa umwana we, umwana we ari kumureba mu maso bose barashushanyije, hejuru yishusho ry'uyu mugore handitse ijambo mu ibara ry'umukara konsa umwana.

Aba bantu benshi bahuriye ahantu hamwe kugira ngo baganire. Harimo abagore, abagabo n'abana. Bambaye imyambaro itandukanye. Inyuma yabo haragaragara ibiti.

Uyu mukobwa yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, ni umuganga cyangwa akaba ari umuforomokazi, afite igitabo, kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu.

Aba bantu bose ni benshi kandi bafite udupirizo. Turi mu mabara ya oranje, imipira bambaye ni iya oranje uretse bakeya bambaye iy'umukara n'indi y'umweru.

Iki ni icyapa, kiriho amagambo asobanura byinshi. Iburyo amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo, mu gihe ibumoso yandikishije ibara ry'ubururu. Munsi haragaragara andi yandikishije ibara ry'umweru.

Aba bantu bambaye imyenda iri mu ibara rya kaki. Ni imyenda yambarwa n'abacungagereza mu gihugu cy'u Rwanda. Ingofero zabo bose bazishyize ku meza. Biragaragara ko bakurikiye uri kubabwira.

Aha hagaragara abaganga bari gufasha abarwayi bashobora kuba bafite ibibazo bitandukanye birimo n'ibyo mu mutwe, uyu mugore wicaye yambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'umweru n'ipantaro n'inkweto by'umukara.

Aha haragaragara inzu, ni ishuri rikikijwe kandi n'ubusitani imbere, inyuma ndetse no ku ruhande, hari ibiti bitoshye kandi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Uyu uri kuvuga ni umugore afite indangururamajwi imbere ye ndetse aravugira ku gatuti, inyuma ye hari urukuta ruri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu bwijimye.

Haragaragara abakobwa bane ndetse n'umuhungu umwe witwa Eric. Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo mu gatuza ke mu gice cy'ibumoso ahagana hejuru, handitseho izina rya Diane.

Aba bantu bahagaze mu kuboko kw'iburyo ni benshi bambaye imyambaro itandukanye, hagaragaramo inzego z'umutekano, ubari imbere yambaye itaburiya y'umweru.

Aba abantu batatu babiri bicaye bareba imbere, mu gihe umwe yicaye mu ruhande ruhabanye n'urwabo, ariwe w'umukobwa afite impapuro, hari ibintu ari kwandika nyuma yo kubabaza.

Abantu babiri bambaye imipira y'icyatsi n'umweru ifite agasaraba k'umutuku inyuma mu mugongo ndetse n'undi uri iburyo bwabo bakora umuryango utabara imbabare bateruye umurwayi.

Aha ni muri farumasi, haragaragaramo ibicupa byinshi birimo imiti ndetse n'ibikarito na byo birimo imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Ibi bigaragara hano ni ibinini, bigiye bitandukanye. Biri mu mabara atandukanye. Bimwe ni umweru, ibindi ni icyatsi kibisi ndetse bigiye bivangavanze amabara ibisigaye.

Iyi ni imiti iri muri farumasi, itandukanye igiye ipanze, iri hejuru, iyindiri hasi hagaragaramo amabara atandukanye, ubururu, umweru, umuhondo n'ayandi.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa muri farumasi, bigiye bitandukanye, biteretse ku gitanda kivurirwaho abarwayi.

Iyi ni farumasi irimo imiti myinshi iri mu tubati buri miti igiye iri ku kantu kayo kamwe kamwe hejuru y'akandi haragaragara kandi amarido ari mu ibara ry'umweru.

Aba bagore babiri bose bateye umugongo ubareba. Bari kwitegereza ibicupa bitandukanye bigiye bipanze bimwe hejuru y'ibindi.

Hano haragaragara ibikarito byinshi bigerekeranyije buri kimwe hejuru y'ikindi ku bikarito hashushanyijeho amatungo harimo inka ihene ndetse n'ingurube bigaragara ko hari imiti yifashishwa mu kuvura.

Aba babiri ni abaganga bacuru farumasi, bacuruza imiti ifasha abarwayi bashara kwandikirwa no kwa muganga bakaza kuyigura hano, bose bambaye amatabu ari mu ibara ry'umweru.

Ibi bicupa n'utu dukarito bigiye bipanze ku buryo bimwe biri hejuru y'ibindi. Ni ibyifashishwa muri farumasi.

Iri niduka ricuruza imiti. Ni inzu yubatse neza mo imbere haragaragaramo ubwoko bw'imiti itandukanye.

Uyu mugabo yambaye itaburiya y'umweru, yambayemo n'ishati y'ubururu, ari kumwe n'umugore kandi bari muri farumasi. Icuruza imiti ishobora kuba iy'abantu cyangwa iy'amatungo.

Aba bantu ni benshi. Bose bahagaze hamwe. Ab'imbere barasutamye mu gihe ab'inyuma bo atari uko kandi bose bahagaze mu bwatsi butoshye.

Aba bantu bicaye bamwe bateye umugongo abandi hagaragara ko bari mu cyumba bagirwa inama kubijyanye n'ubuzima. Iki cyapa cya RBC, kirabyerekana byose.

Aba bantu bicaye batonze uruziga, hagati yabo hagaragara isima, iri mu ibara rya orange, harimo abagore ndetse n'abagabo, bigaragara ko bari kwigishanya.

Abantu babiri bari imbere bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru. Umwe ari koga amazi avanye kuri kandagirukarabe. Iburyo n'ibumoso hari abandi bantu.

Aba bantu harimo abasore ndetse n'inkumi bose bambaye imipira isa, imbere yabo hari ameza iteretseho igikombe, icupa n'ibindi.

Uyu muntu afite ibyapa bibiri mu kuboko kwe k'uburyo n'ukw'ibumoso. Icyapa afite iburyo kiri mu ibara ry'umutuku, mu gihe ibumoso kiri mu ibara ry'umweru.

Hano hari imifuka myinshi, igiye irimo imiti ivura indwara, iyi miti ivura indwara mu buryo bwa gakondo. Hari ibiti bigiye bisataguye. N'ibindi bitandukanye.

Ibi bicupa biragaragaza ubuvuzi bwa kinyarwanda ariko buvuguruye. Harimo imiti iteye ityo. Yifashishijwe mu byatsi, byaturutse mu Rwanda kugira ngo ivure abantu.

Izi nzu ebyiri zubatse ku murongo umwe. Zifite amabara yiganjemo ay'ubururu. Mu yiri imbere hicaye abantu batatu, mu gihe inyuma hagaragara umugabo umwe.

Aba bantu batatu bose ni abagore, bambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu, abari ibumoso bose bambaye amarineti.

ibyatsi bigaragara iburyo n'ibumoso byose byitwa amatovu. Iby'ibumoso biri mu ibara ryiza cyane ry'icyatsi, biratoshye. Mu gihe iby'iburyo bisa naho bishaje, mbese bikuze.

Hano haragaragara imbehe ndetsesa n'ibindi bintu byinshi bigaragara ko ari imiti, umuntu ugaragaramo yambaye agatambaro k'umweru ari gusekura imiti.

Uyu muntu yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, yambaye n'agapfukamunwa, n'umuganga, imbere ye haragaragara uducupa twinshi tugiye turimo imiti.

Ibi ni ibikombe birimo imiti itandukanye. Hari ibikombe byinshi biri mu ishusho y'uruziga. Ibigufi ndetse n'ibirebire. Hari ibiri mu mabara y'umweru bipfundikije imipfundikizo itandukanye.

Iri vuriro ryubatse mu mabara menshi yiganjemo iry'ubururu. Imbere hari kandagira ukarabe na ho iruhande rw'iburyo, hari intebe yicarwamo n'abagana iri vuriro.

Ibumoso haragaragara icyapa gishushanyijeho igishushanyo mbonera cy'inzu izubakwa mu kibanza aba bantu bose bahagazemo ndetse inyuma haragaragara imisozi.

Abantu benshi bambaye neza. Abenshi muri bo bambaye amakote. Inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari.